Kwegereza abaturage amazi meza, bibarinda indwara zitandukanye, kuyanywa kuyabona mu buryo bworoshye, kugira isuku ku mubiri, ku bikoresho, ku myenda.

Umunyeshuri agomba gukaraba intoki yaba ari ku ishuri, cyangwa mu rugo, agiye kurya, gukora ibikoresho bitandukanye kugira ngo yirinde indwara ndetse na microbe.

Mu gihe wumvise umubiri utameze neza, gana kwa muganga uhabwe ubuvuzi bwihuse, uhure n'inzobere n'impuguke kuri iyo ndwara, ufate imiti ku gihe, ugire ubuzima bwiza.

Abana bafite uburenganzira bwo kuganirizwa, ibibazo bafite bigakemurwa, kurya no kunywa ku gihe, kwiga, ubuvuzi bwihuse, kugira isuku, kwambikwa, gukina...

Kwegereza abaturage iriba, bituma bahorana akanyamuneza, bakabona amazi mu buryo bwiza kandi bworoshye, bakayanywa bakanayakoresha ari meza, bikabarinda indwara ziterwa n'amabi.

Amahugurwa y'abaganga aho bungurana ibitekerezo bagahabwa amakuru ku byo batazi bakarushaho kunoza umurimo wo kuvura abarwayi ku gihe kandi neza.

Gukingirwa ni igikorwa kiza, gifasha umuturage kumurinda ibyorezo, bikamuha ubuzima bwiza buzira umuze, akaramba agakorera igihugu afite imbaraga.

Ebola ni indwara iterwa n'isuku nke ikagaragaza ibimenyetso byo kuva amaraso ahari umwenge hose, ikaba yandura cyane mu gusuhuzanya, kwegerana, gukoranaho.

Kwegereza abaturage amazi, kuyashyira mu rugo ni byiza bayabona mu buryo bworoshye bikabarinda indwara zitandukanye ziterwa n'amabi, bakagira isuku ku mubiri no ku myambaro.

Inama ni nziza aho abayigize bicara bagahana amakuru, bakareba ibitaragenze neza bagafata umwanzuro w'ibigiye gukurikira.

Amahugurwa y'urubyiruko abashishikariza akabigisha uburyo bwihuse bwo gutabara abana, ababyeyi babaha ibiryo, ubuvuzi, ibyo kwambara n'ibindi.

Umugore uri kumwe n'abaganga babyigiye, bakaba n'inzobere muri byo bamupima umuvuduko, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe kugira abashe kumenya uko ahagaze mu buzima bwiza.

Ikigo cyita ku babyeyi n'abana bahabwa ibyo kurya, ibyo kwambara, ubuvuzi bwihuse, bigishwa isuku, bitabwaho mu mibereho yabo ya buri munsi.

Kujyana abana ku ishuri ni ingirakamaro kuri twese, mubarinde kwirirwa mu rugo, imirimo ivunanye, inzara, isuku nke, kwambara nabi.

Umujyanama ni umuntu wahawe amahugurwa, agahabwa n'uburenganzira ku buvuzi bw'ibanze aho apima umuriro, agasuzuma Malariya, agatanga n'imiti mbere y'uko ujyanwa kwa muganga.

Ibitaro by'indwara zo mu mutwe bifasha abayirwaye kubaturisha, kumva bameze neza, kubaha imiti ku gihe, niba hari uyirwaye mwihutane kwa muganga atarabangamira abandi.

Amenyo ni ingirakamaro mu gukanja ibiryo kugira ngo igifu kibashe kubisya neza. Niba agize ikibazo ihutire kwa muganga uhure n'impuguke n'inzobere ku buvuzi bwayo uhabwe imiti ku gihe.

Ibitaro bifite ibikoresho biteye imbere, bikagira n'inzobere ku bijyanye no kwita ku menyo, biyarinda udukoko dutera indwara, agakomera, agahorana isuku, akaramba.

Ubuvuzi buteye imbere bw'amenyo, aho indwara iyo ariyo yose, ibasha kugaragara ikavurwa n'inzobere n'impuguke zayo, igakira nyirayo akumva ameze neza akarya.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo, abifashijwemo n'inzobere, n'impuguke muri byo aho amufasha gukanja bityo bikorohereza igogora.

Kubyuka ugakaraba, ukoza amenyo cyangwa ukabikora mu gihe wanduye ni byiza ni bimwe bigize isuku bituma umuntu yirirwa ameze neza, bikamufasha mu kurinda indwara ziterwa n'isuku nkeya.

Gukora siporo urenze umwe, muri babiri cyangwa abandi, ni byiza kuko bifasha kugenda muterana akanyabugabo, kungurana ibitekerezo, kuganira.

Ibiganiro hagati y'abacuruzi bacuruza igihingwa kimwe, bibafasha kumenya uko isoko rihagaze hirya no hino, aho wakura ibihendutse igiciro fatizo.

Abageze mu zabukuru bakeneye kwitabwaho, baganirizwa, bakora imyitozo ngororamubiri, guhabwa ibiryo n'ibyo kunywa ku gihe, ubuvuzi bwihuse mu gihe barwaye, isuku n'ibindi.

Kanseri y'ibere ni indwara mbi cyane kandi yica, dushyireho amahugurwa yo gushishikariza abantu kwisuzumisha hakiri kare kuko iravurwa igakira.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abarwayi, abaganga, abashinzwe umutekano, inzu z'ubuvuzi, imodoka zibavana mu rugo zibazana mu kazi.

Kubyarira kwa muganga ni ingenzi, haba harimo inzu iba irimo ibikoresho, abaganga b'inzobere n'impuguke mu kubyaza aho umubyeyi aruhukira.

Umurwayi uri mu bitaro biteye imbere, aho avurwa hakoreshejwe ibikoresho bijyanye n'igihe, agahabwa imiti ku gihe, akamenya icyo arwaye akagira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi buteye imbere aho impuguke n'inzobere kuri iyo ndwara, bagucisha mu cyuma kikareba muri wowe, kikayigaragaza, bigasomerwa muri Mudasobwa, ugahabwa imiti, ukabasha kumererwa neza.

Imurikwa ry'ivuriro riteye imbere riherereye mu karere ka Rwamagana, rizafasha abaturage kugira ubuzima buzira umuze, kumva bameze neza, kubona imiti ku gihe.

Kwa muganga badufasha kubona indwara n'imiti yayo, bakaduha aho kuba, aho kuryama, inzitiramubu, ibyo kurya, isuku, ibyo kunywa.

Ivuriro riteye imbere, rifite ibikoresho bihambaye mu buvuzi, bikagira imodoka zitwara abarwayi mu buryo bwihuse, izivana abakozi mu rugo zikabazana mu kazi, umutekano n'abawuhagarariye.

Inzu ijyanye n'igihe ifite ubusitani, harimo ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, ikagira aho ibinyabiziga bishyirwa, ikorerwamo ubuvuzi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bishashe neza, aho baruhukira babasuzuma; imashini ipima uko ubuzima buhagaze, ibitambaro bitandukanya umurwayi n'undi.

Urujya n'uruza rw'abantu aho abarwayi bagiye kureba abaganga, bakajya mu bitaro bifite ibikoresho bihagije, kugira ngo bamenye indwara barwaye bayibonere n'imiti.

Inzu yabugenewe irimo ibikoresho bitandukanye kandi biteye imbere, ifite abaganga babyigiye bakaba inzobere n'impuguke mu kubyaza ababyeyi.

Ni umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri imufasha gukira indwara nyinshi akanazikingira, kuruhuka mu mutwe no ku mubiri, kumva atuje, kugabanuka kw'ibinure bikamworohereza igogora.

Kunywa amazi ni ingenzi ku buzima bwa muntu, byorohereza igogora, biturisha umutwe, birinda indwara zitandukanye, kumva umeze neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kandi ni ngombwa kuri buri wese. Idufasha kwirinda indwara zitandukanye, kumva tumeze neza, kugabanya ibinure, kugira umwete mu kurya, no kugira ubuzima bwiza.

Kuvunika akaguru birababaza, ihutire kwa muganga uhure n'inzobere n'impuguke muri byo, bakugorore, bagukande, baguhe imiti ku gihe ubashe kugenda neza .

Umugabo wavunitse akaguru aho ari guhabwa ubuvuzi hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe, bakanda kugira ngo abashe kugenda no kumva adafite uburibwe.

Kwiyumvamo amavunane ni indwara iterwa n'imyitozo ngororamubiri mikeya, ni byizayiza rero ko wegera impuguke n'inzobere bakagukanda ukumva umeze neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuri buri muntu iyo ikozwe neza, ikurinda indwara nyinshi, ukumva umeze neza, gutuza mu mutwe, kugabanuka kw'ibinure. Ibikaba mbi Igihe wakuyemo imvune iyo iwayikoze nabi.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuri buri wese igabanya ibinure muri bo, kumva umeze neza, kutagira amavunane, kuruhuka mu mutwe, irinda indwara nyinshi zitandukanye tugahorana akanyamuneza.

Imyitozo ngororamubiri, ni umuti ku ngingo zacu, idufasha kumva tumeze neza, kuruhuka neza, ku kugira umwete mu kurya, kunywa amazi ahagije, kwirinda za rubagi impande.

Icyorezo cya corona cyirindwa uguma mu rugo mu gihe wanduye kugira ngo utanduza abandi, gupfuka ku munwa mu gihe ukorora cyangwa upfuna, gukaraba intoki, kwirinda gukoranaho no gusuhuzanya.

Kunywa amazi meza ni byiza kuri buri wese, bidufasha kugira ubuzima bwiza, gutuza mu mutwe, kumva umeze neza, gushira inyota, bikiza indwara zitandukanye, bigabanya ibinure mu mubiri.

Kunywa amazi meza ni byiza kuri buri wese, bituma twumva tumeze neza, bikarinda indwara zitandukanye, tugashira inyota, bikorohereza igogora, ukumva utuje mu mutwe.

Gusukura intoki, ukoresheje umuti wabugenewe, wica udukoko dutera indwara, ziterwa n'umwanda, cyangwa hagakoreshwa, amazi n'isabune.

Ipapayi ni ikimera cyahozeho kera na n'ubu kikaba kiriho, akaba ari urubuto rurinda indwara zitandukanye, utubuto turimo imbere tukifashishwa haterwa izindi.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ivura indwara nyinshi, ikanazikingira bigatuma umuntu akira akagira ubuzima bwiza.

Imiti gakondo iva ku bimera, ikaba ivura indwara nyinshi ikanazikingira, ni byiza rero ko tuzibika neza ahantu hafite isuku kugira ngo ubashe gukoreshwa, umare n'igihe kirekire.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera, aho itegurwa, isekurwa, ikanikwa, ikabasha kumara igihe kirekire ikoreshwa mu buvuzi, buvura ndetse bukanakingira indwara zitandukanye.

Ubuki ni ikiribwa gikomoka ku nzuki, ntibupfa bubasha kumara igihe kirekire, bukiza bukanakingira indwara nyinshi, bugira isukari iduha imbaraga.